Ni ifumbire twita imvaruganda, ikoreshwa cyane cyane mu buhinzi, aho ikoreshwa nk'inyongeramusaruro kuko aho bayikoresheje usanga ibintu byera neza kandi bigashisha, ukabona bisa neza, rero ni nyinshi, irunze ahantu hamwe.

Abapapa batatu bari mu murima ubonako barimo baratera nk'imbuto, cyangwa se barimo gushyiramo ifumbire uwo murima urimo ikawa ndetse n'amateke. Umwe muri abo bapapa afite akameze nk'isahane mu ntoki yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, kandi hirya ye nanone hari umupapa wambaye inkweto z'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara.

Ni umurima ubona ko usasiye uteyemo ibiti byinshi cyane ndetse n'insina, ibyo biti bifite amabara y'icyatsi ndetse n'izo nsina zifite amabara y'icyatsi, uwo murima ibyatsi bisashije urabona ko bisa n'ibyumye.

Insina nyinshi cyane ubona ko zirunze ahantu hamwe mu murima, zifite amakoma ubona ko ataruma asa icyatsi, zimwe muri izo nsina zifiteho ibitoki ariko ubona ko bikiri bitoya. Bimwe muri ibyo bitoki birasa icyatsi.

Ni udukombe twinshi ubona ko duteye kimwe, ariko twose dushushanyijeho inka bivuze ko witegereje neza wasanga ari umuti w'inka, hari ikiganza kimwe gifite agakombe kamwe mu ntoki, ubona ko kiri kwerekana ibiri kuri ako gakombe, iki kiganza cyambaye ga.

Umurima ubona ko bakuyemo imyumbati, imwe muri iyo myumbati irambitse hasi, aho igiye irenze uruhande rumwe ubona ko hacukuye hasi. Ndetse muri uwo murima harimo n'ibyatsi bigiye biteyemo.

Umumama ari mu murima, ari gushyira ifumbire mu butaka, yambaye igitenge kirimo amabara y'umutuku, arunamye yambaye ibirenge, uri kubona ko ari iruhande rw'insina, hagati mu murima hari igiti giteyemo, icyo giti gifite amababi y'icyatsi.

Igiti kirekire gifite amashami menshi asa icyatsi, ubona ko giteye ahantu mu murima hari ibyatsi bimeze neza, inyuma yacyo hirya witegereje gatoya urabona ibindi biti byinshi ubona ko hano ari mu murima w'ibiti.

Hari insina, imboga, igiti cy'ipapayi ndetse n'igiti cya avoka, byose uko bihari bifite amababi arimo amabara y'icyatsi ndetse imwe mu insina zifitemo n'amabara y'umuhondo, ubona ko biteye ahantu mu murima umwe.

Urabona ko ari inyanya ziteye ahantu ku murongo zirimo imishingiriro, ndetse izo nyanya harimo izeze kuko uri kubona ko harimo izisa umutuku, izisa umuhondo ndetse n'izisa icyatsi, kandi ibiti by'izi nyanya harimo ibigiye bifite amababi y'icyatsi, kandi muri izi nyanya urabona ko zifumbiye.

Ikinyomoro kigira akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko bamwe bakiriye baragikunda, kera ku giti, icyo giti kibari gifite amababi y'icyatsi ndetse n'ibinyomoro harimo ibiba bisa icyatsi cyangwa se umutuku, iki giti cyacu twe turi kubona hariho ibyomoro bisa icyatsi ndetse n'umutuku.

Hari ibikarito bifite ibyapa bigiye biranga ibyo aribyo, hejuru y'izo karito hariho imineke. Imwe ubona ko ihiye, ariko ibindi bitoki ukabona ko bidahiye neza, urabona ko ari nk'inyubako icururizwamo.

Umupapa wunamye ubona ko ari kuhira imyaka ndetse hirya hari undi musore uhari wambaye umupira w'umweru ndetse n'ikabutura y'umukara, ubona ko arimo yitegereza ibyo uyu mupapa ari gukora. Uyu mupapa inyuma ye hari ijerekani isa ubururu, ndetse n'ihombo afite mu ntoki risa ibara ry'umukara, ubona ko riri guturukamo amazi.

Igitsina gabo ubona ko arimo kuhira mu murima, afite ipombo isa umukara irimo amazi yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira urimo amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, kandi nta musatsi afite mwinshi.

Urunyanya rubisi rusa icyatsi, ubona ko ari inyanya zibyibushye rwose, ruteye ku giti, icyo giti giteye mu butaka, hariho inya nyinshi ziri hejuru y'eshanu zifite amababi asa icyatsi.

Urimo urabona ko hari abagabo babiri ariko na none hari inka ifite ibara ry'umweru ndetse n'iry'umukara, imbere y'iyo nka hari inzu ihari yubakishije amategura ndetse ifite idirishya n'umuryango. Hirya y'iyo nzu hateye imyaka imeze nk'ibigori ndetse hari n'ibirabyo bifite amabara y'icyatsi n'umuhondo.

Abagabo babiri bafashe inka. Iyi nka ifite amabara y'umukara n'umweru, umwe muri abo bagabo bayifashe afite igisa n'ipensi mu ntoki, yambaye ikoti ry'ubururu ririmo ibara ry'umweru ndetse n'umukara kandi yambaye n'ipantaro y'umukara. Undi na none amufashije iyi nka yambaye inkweto zirimo ibara ry'umuhondo.

Inyoni ifite amabara menshi ubona ko ifite umunwa muremure, amwe muri ayo mabara ifite harimo umuhondo, umutuku; ihagaze ku rurabo rusa icyatsi ndetse n'umuhondo, uri kubona ko ifite icyo irimo kwitegereza.

Inyamaswa babona ko ifite amabara atatu, irya shokora, iry'umweru ndetse n'iry'umukara, iri ahantu mu byatsi. Bimwe muri ibyo byatsi bifite amababi ubona ko atumye, asa icyatsi ndetse ubona ko harimo n'andi mababi yumye asa shokora.

Ni agasimba gafite amwe mu mabara y'umweru ndetse n'umukara. Gafite amaso abiri, umunwa ndetse gafite n'umurizo ndetse gafite n'amaboko abiri n'amaguru abiri, kambaye akantu mu ijosi k'akagozi gasa umutuku.